Umugore uri mu murima, arimo arayora ifumbire ahantu hari ikirundo cy'ifumbire, arimo atwara ahandi hari ibihingwa.

Ikirundo cy'ivumbire rirambitse ahantu mu murima, hirya hari ikibaya kinini kirimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakurya hari amazu atuyemo abantu.

Icyumba kirimo kandagira ukarabe iriho akabase gato n'indobo ivamo amazi n'akabati karimo imiti y'ibihingwa.

Umugabo wambaye ingofero n'agapira k'umuhondo, uri kwerekana ahantu, hari abahinzi benshi, barimo barahinga, ahantu hanini.

Abantu benshi bari mu murima barimo abiganjemo abambaye ingofero, harimo n'umugabo muremure w'umusirikare bari mu murima uhinzemo ibigori.

Icyumba kirimo utubati turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa bavura ibihingwa, imwe iri mu ducupa indi mubi karito.

Umukobwa ukiri muto wambaye uturindantoki ndetse n'agatambaro ku mutwe, arimo arakora mu bitaka bigaragara ko hari umuhinzi mworozi.

Abagabo batatu bari mu murima w'ikawa barimo barazikorera neza, bigaragara ko zitabwaho kuko zinasasiye neza.

Icyumba kirimo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa havurwa ibihingwa ndetse harimo n'agapapuro kanditseho nimero bishyuraho iyo baguze.

Icyumba kirimo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, imwe iri mu bikarito indi iri mu macupa, indi iri mu tudomoro.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, wishyize agatambaro mu ijosi, yicaye mu cyumba kirimo ubwoko bw'imiti butandukanye buri mu ducupa.

Umurima munini, ugizwe n'ibihingwa bitandukanye, hari bimwe bihinnze mu gishanga, ibindi biri ku musozi.

Inanasi nyinshi, ziteye mu murima, zirimo izeze, zifite ibara rijya gusa umuhondo ndetse ari nyinshi cyane.

Inyanya zitarera neza, zifite amababi asa icyatsi ndetse n'imbuto ubwazo zigisa icyatsi, byumvikana ko zitaratukura.

Umurima mugari uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo n'amazu yo guturamo ndetse n'igice cy'ishyamba.

Umugabo wambaye ingofero uhetse ipombo yifashishwa batera umuti mu bihingwa, arimo aratera mu murima w'ibigori.

Umurima muremure uhinzemo amashu akiri mato, atarera, afite ibara ry'icyatsi, ari ibibabi binini bitaratangira kwibumba.

Umurima mugari, uhinzemo ibihingwa bitandukanye, birimo insina ndetse hari n'ahantu hahinze nta kintu kihateye.

Umurima munini uhinzemo insina zikiri ntoya, harimo umugabo ubyibushye arimo arareba uko zimeze bigaragara ko ari ize.

Umurima uhinzemo ibigori bimaze gukura, bitoshye bifite ibara ry'icyatsi, hagati muri byo harimo akayira umuntu yanyuramo.

Agakarito gafiteho ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu, kanditseho icumi ndetse n'andi magambo, amwe ari mu ibara ry'umukara, andi ari ubururu.

Ikiganza cy'umuntu giteruye ibyatsi bigaragara ko byakaswemo uduce duto cyane, bimwe biri hasi ibindi arabifashe.

Agakarito kariho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, hariho n'amashusho y'amatungo bigaragara ko kavamo imiti ivura amatungo.

Agacupa gafite ibara ry'umweru n'umufuniko w'ubururu, kariho urupapuro rushushanyijeho amatungo, inyuma hari ahantu babika impapuro.

Ihene nini ifite n'amahembe imaze kubyara uduhene tw'umukara, iruhande rwayo hari amaraso ndetse iri mu cyumba gishashe.

Abahungu n'abakobwa, barimo guhinda hari benshi bifatanyije, bigaragara nkaho bari guhinga inzira yo kunyuramo.

Abagabo babiri bari guhinga umurima urimo ibigori ndetse harimo n'imyumbati, inyuma hari ikibaya gihinzemo umuceri, hakurya hari inzu zituyemo abantu.

Abagabo babiri bafashe amasuka, barimo guhinga, umwe yambaye ingofero na bote, inyuma hateye ibigori n'insina.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo abagore bari guhinga, hirya hari ishyamba, mu murima harimo insina z'ibitoki ndetse n'ibigori.

Ibitoki n'ibirayi bisutse ahantu hasi bigaragara ko hari nko mu iduka ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye.

Umurima munini, uhinzemo imyumbati, imwe yakuwe, irunze ahantu hamwe ndetse n'ibiti byayo byavunaguwe, bakabirunda mu murima.

Abagore barimo guhinga mu murima, harimo wambaye ikanzu y'ubururu n'undi wambaye agapira gatukura ndetse na bote n'undi uhagaze inyuma.

Ni umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'ubururu na bote z'umukara, urimo arahinga, afite isuka, inyuma hari ikibaya kigari.

Abagore babiri bicaye ku ihema, barimo baragosora, bafite intara, umwe ayiteruye, undi yayirambitseho, bose barimo barobanura.

Umusore uri kumwe n'abagore bari mu murima, bafitemo n'igice bubakiye barimo guhingamo imbuto z'ibinyomoro.

Imifuka myinshi, ifite ibara ry'umweru, irimo ibirayi bitameze kimwe bigaragara ko hari ubwoko butandukanye, hirya hari abantu benshi.

Ubuhunikiro bw'ibigori bwubatse bunasakaye, mo imbere harimo ibigori byinshi ku ruhande hegetseho igare.

Abagabo babiri n'umugore barimo kuyora inyanya, bamwe bashyira mu mufuka abandi bashyira mu isafuriya bigaragara ko bazejeje.

Ibirayi byinshi birunze ahantu hamwe mu butaka, bigaragara ko ari bwo bikimara gukurwa bataragera igihe cyo kubipakira.

Umugabo wishimye, urimo guseka, imbere ye hari ibitoki byinshi bigerekeranyije, hijya hari insina, bigaragara ko ari mu murima wabyo.

Imifuka irimo ibihingwa bitandukanye, birimo ibigori, amasaka, soya, ibishyimbo, n'ibindi bihingwa.

Imifuka myinshi irimo ibintu bitandukanye, harimo iya kawunga, iy'umuceri, byose biri mu iduka bicururizwamo ibintu.

Ibitebo byinshi birimo inyanya z'umutuku bigaragara ko aka gace zeramo, abantu barimo kuzitwikira no kuzitunganya.

Umugabo uri mu murima munini uhinzemo inyanya zitarera, arimo arazitaho anazisasira kugira ngo zikure neza.

Igiti cy'umwembe gihinze ahantu hari n'insina ndetse n'ibigori, iruhande hari inzu ituyemo abantu.

Ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo inturusu n'ibindi ndetse hari n'ibyatsi birimo n'imigwegwe.

Igiti cy'igipapayi gihinze ahantu murugo, munsi yacyo hahinzemo imboga, hanze y'igipangu hahinze ibitoki.

Igiti kinini cyane cyakuze gifite amashami manini ndetse n'utubabi duto, inyuma hari inyubako nini.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi, by'ubwoko butandukanye, harimo inturusu, n'ibindi byinshi, birimo ibyakuze, ndetse n'utukiri duto.

Umuririma uhinzemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo insina ndetse n'ibiti by'imbuto, inyuma hari inzu ntoya.

Imbuto z'ibinyomoro zeze neza, iruhande hari wotameroni ndetse n'umwenda urambitse aho na byo birambitse.

Umuntu wambaye ingofero n'ikote arimo arareba igihingwa cyezeho intoryi uko kimeze, kiri mu murima uhinzemo n'amateke.

Imboga z'ubwoko butandukanye zihinze mu karima k'igikoni, hirya hari inzu igizwe n'amatafari ahiye.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye, birimo indabo ndetse harimo n'igikakarubamba cyavuyeho amababi menshi.

Abagore bari mu murima uhinzemo ingemwe z'ibinyomoro zimaze gukura, bari gukuraho bimwe ngo bajye gutera.

Intoryi zeze zimwe zaramaze guhindura ibara, izindi zitarahinduka, ziri mu murima ahantu ziteguye neza.

Ahantu hahinze indabo z'ubwoko butandukanye, bigaragara nkaho ari imbere y'inzu y'umuturage, ku rundi ruhande hari umuhanda.

Umurima mugari wisanzuye, urimo imbuto z'avoka zeze ngufiya, usasiye neza, hakurya hari imisozi.

Igipapayi gikuze gifite amababi menshi yicyatsi harimo n'ibipapa bisa nk'icyatsi byenda kwera bihinze ahantu mu rugo.

Ubusitani buhinzemo ubwoko butandukanye bw'indabo, harimo n'igikakarubamba bagiye bakataho amababi yacyo.

Imifuka irimo imbuto zigiye zitandukanye, hamwe harimo imyembe, ahandi harimo ibinyomoro, ahandi hari amatunda n'inanasi hari n'umunzani

Igice cy'umuhanda ugizwe n'amabuye, ikindi ari ubusitani buri imbere y'inzu nini ifite umuryango munini w'umukara.

Abagabo bafite ibihombo byifashishwa batwara amazi barimo barayayobora bari gucucira ibihingwa biri mu murima.

Umugabo uri mu murima afashe ihombo, arimo agenda acucira amazi ku bihingwa bye kugira ngo bitazuma.

Umugore uri mu murima uhinzemo ibigori, arimo arafata ibihombo biri gukura amazi mu mugenda biyatwara mu murima.

Abantu bari mu murima, uhinzemo inyanya, bawuyoboyemo amazi, barimo baracucira, kugira ngo, utazuma.

Ikibaya kinini cyane kirambuye gihinzemo umucer ukirimo gukura hirya hari imisozi miremire ihinzeho ibiti.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye, igice kimwe kirimo ibyeze, ikindi ntakintu gihinzemo, hirya hari ishyamba.

Imisozi n'udusozi twinshi, duhinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye, hagiye harimo n'amazu atuyemo abantu.

Abantu barimo guhinga ahantu hari amaterasi y'indinganire bamwe bahagaze abandi bunamye barimo kubafashanya.

Umusozi muremure ugizwe nigice kimwe cy'ishyamba ikindi gihinzemo ibihingwa bisanzwe, hasi hari abantu bikoreye.

Abantu bari kumwe bari ku musozi, hakurya hari imisozi myinshi ndetse n'amazu abantu baturamo n'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ihene ifite amabara y'umukara n'umweru, iri ahantu harunze ibiti, harambitse n'urwego ari narwo iziritseho.

Inka iri mu kiraro imbere yayo hari umwana mutoya urimo arayiha ubwatsi iruhande hegetse imishingirizo.

Ingurube nyinshi ziri ahantu hamwe, zirimo zimwe z'ibara rimwe, izindi zifite amabara harimo n'ay'umukara.

Abaturage benshi, bakoze uruziga, bose imbere yabo bafashe ingurube bigaragara nkaho bakoze umushinga wo kuzorora.

Ingurube idasa neza, irimo kurya ibintu bayihaye mu kijerekani gikase, iruhande harambitse umufuka.

Ikiraro kinini, cyororerwamo inkoko, iruhande hari n'ibyo kurya zirya, urundi ruhande hari aho amagi ajya iyo ziyateye.

Ihene ziri mu kiraro, kirimo ubwatsi zirimo kurya bw'ibigorigori basaruye, bagakuramo ibigori, bakaziha amababi.

Ingurube iryamye mu kiraro cyayo, ifite inda nini wagira ngo yenda kubwagura, isa nabi itogeje.

Ihene ifite amabara y'umweru n'umukara iziritse ku giti ahantu mu mbuga bigaragara ko ari mu rugo, iruhande hariho umweyo.

Ingurube irimo konsa utwana twayo tugera muri dutanu, yaryamye natwo turi kurwana no kugira ngo tubashe kubona uko twonka.

Umugore wambaye imyenda y'umuhondo, uri kumwe n'umwana wambaye imyenda y'ubururu, arimo yoza ingurube mu ibase y'ubururu.

Inka nini ifite amabara y'umweru n'umukara, ndetse n'akanyana kayo nako gafite amabara y'umweru n'umukara, iririmo irarya ibyatsi.

Ihene ziryamye mu mbuga ahantu mu rugo, imwe isa umukara, indi ijya gusa n'igitaka, hirya hari ikiraro gito kibamo ingurube.

Abasore bigaragara nk'aho ari urubyiruko, bafite inkwavu, inyuma yabo hari ibiraro byororerwamo inkwavu.

Inka nini ifite ibara ry'umukara, iziritse ahantu hari ikiraro kinini, iri kumwe n'inyana yayo ikiri ntoya.

Inka iri mu kiraro ifite ibara ry'umukara n'umugabo uri kuyigaburira ubwatsi, iruhande hari inkoko ziri gutora ndetse n'ingurube.

Inka ifite amabara y'umweru n'umukara, iri mu kiraro kinini kandi gisakaye, hariho umugabo ucyegamiyeho arimo ayireba.

Ubuhunikiro bw'ibigori burimo ibigori byinshi bitonoye, ariko amababi atamazeho yose ndetse bitwikirije ihema.

Umurima mugari umo igice gito bakase, bagahingamo ingemwe z'ibihingwa bigiye bitandukanye, bakahasakara.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu n'agapira k'umutuku mo imbere, uri mu cyumba kirimo uducupa twinshi tubamo imiti, yafashemo umwe ari kuwureba.

Abagabo batatu, bafashe inka, umwe wambaye igisarureti cy'ubururu, afashe igikoresho, cyifashishwa bambika inka imibare iyiranga.

Inka ifite ibara ry'umukara ryiganje n'utundi tubara duto tw'umweru, iri mu kiraro n'umugabo uyitaho uyegereye na we ari kumwe nayo.

Abagabo bari kumwe n'inka, uwambaye igisarubeti cy'ubururu na bote z'umweru arimo arayitera urushinge.

Inyoni ebyiri z'ubwoko bumwe zifite amababa maremare n'iminwa y'umuhondo, zihagaze ku giti kiri mu ishyamba.

Intare y'ingabo ifite urugara runini, iryamye ahantu ku butaka, iruhande ikikijwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Inyamaswa yo mu gasozi ifite amaso manini n'amatwi magufi, igizwe n'amabara menshi, iryamye ahantu mu kirambi hari ibyatsi byinshi.

Abantu bari kugenda mu kiraro kigizwe n'ibigozi binini munsi n'impande, hari ibiti by'ubwoko butandukanye bigaragara ko ari mu ishyamba.

Inyoni ifite amabara menshi arimo umuhondo, umutuku, umukara, ihagaze ku rurabo ruri ku gihingwa gifite amababi y'icyatsi.

Inzovu nkuru ifite ibara ry'umukara, yicaye mu biti byinshi by'ubwoko butandukanye bigaragara nk'aho ari muri parike.

Ikinyugunyugu gifite amabara arimo igitaka ndetse n'ubururu, cyarambuye amababa gisa ni kigiye kuguruka.

Abantu batatu bari mu kiraro kinini kigizwe n'imigozi, munsi yabo hari ishyamba rinini ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inyamaswa yo mu ishyamba, ifite ibyoya byinshi cyane n'amatama manini, iri mu giti cy'imigano y'icyatsi, bigaragara ko ari ho iba.

Akanyoni gafite amabara y'umuhondo, umukara, umutuku, kari mu giti hejuru, karimo karareba inyuma yako.

Inkende yo mu bwoko bwa baritosi, yicaye ifite ibyo kurya, iri kurya, inyuma yayo hari indabyo, ndetse n'ubwatsi.

Inkende y'umukara ifite amaso manini na yo asa umukara, ihagaze mu giti, irimo irareba imbere, ifitemo n'andi mabara y'umweru make.

Inyamaswa yo mu ishyamba ifite amahembe manini, iri ahantu mu kirambi bigaragara nkaho ari muri parike.

Inyamaswa yo mu gasozi, ifite ibya byinshi birimo ibyiganje by'umukara ndetse n'ibindi by'ikijuju yahagaze mu giti.

Ikiraro kinini kiri mu ishyamba rirerire, kigizwe n'imigozi, gikikijwe n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Inyoni ifite amabara y'umukara n'umutuku n'umuhondo, ihagaze mu giti kinini hejuru, ifite amababa maremare.

Inyamaswa yo mu gasozi, ihagaze mu byatsi byinshi biri kujya kunganya nayo uburebure bigaragara ko ahantu iri ari muri parike.

Icyapa kinini gifite ibara ry'icyatsi ryanditseho amagambo avuga ngo, urakaza neza mu ishyamba rya Nyungwe.